Ikibumbano kigaragaza ishusho y'umuntu giteretse imbere kirimo kigaragaza umutima, ibihaha, igifu n'ibindi bitandukanye hafi yacyo hari akajerekani kandi karitiro eshanu.

Ishuri ryigisha amashanyarazi, ririmo abarimu barimo kwigisha ndetse n'umuntu waje kubasura. Bicaye ku ntebe umuntu uri kubigisha yambaye jile.

Umunyeshuri uhagaze imbere y'abayobozi arimo arerekana ibyo bize ari kubyereka abayobozi ndetse n'abandi banyeshuri bigana.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, umwe muri bo imbere ye hari karikileta, matematikari, undi bambaye iniforume z'umweru basa n'abakobwa.

Abasore batatu bari imbere y'imashini zikoreshwa mu kubika amakuru ndetse no kwandika, barimo gusobanurira umuntu uje ubasanga ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Abagide bari mu ishyamba barimo barakoresha indebakure bareba inyamaswa ndetse n'ibintu bitandukanye. Umwe muri bo ni umukobwa, undi ni umusore wambaye ingofero.

ishuri ryigishirizwamo umwuga w'ubudozi ririmo imashini z'ubwoko butandukanye izo mashini nizo bita nyonganyonga.

Ibarizo aho bari kubariza ririmo abantu benshi b'abadamu ndetse n'abamama, ahantu bari haratwiciye harasakaye kandi bamwe muri bo bari gukora amasuku aho bari gukorera.

Abanyeshuri barimo kureba imashini ikoreshwa mu kubaza. Mubigaragara harimo umwe muri bo uri kuyikoresha, abandi nabo bari iruhande rwe, bari kureba uko ari kubyitwaramo.

Umukobwa wambaye isarubeti yubururu, ufashe mikorofone. Asa naho ari gusobanura ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Afashe no kuri fizibure zombi, yambaye n'ingofero y'umuhondo.

Icyapa kigaragaza ishuri ry'abana b'incuke, rya Kigali gishushanyijeho ibishushanyo, bitandukanye cyiriho na nimero ya telefone.